Fe ruje zifite akamaro gakomeye cyane , cyane cyane ku batwazi b'ibinyabiziga, kubera ko zituma umuntu amenya icyeyerekezo cye, ikindi kinyabiziga giturutsemo bikarinda impanuka zo mu muhanda.

Abantu bashinzwe umutekano w'abaturage baba bambaye neza cyane akenshi usanga bambaye iniforome zisa. baba basa neza cyane ku buryo n'iyo bari kumwe n'abandi uba ubona bo batandukanye bihariye.

Umupolisi iyo ayoboye inama aba atezwe amatwi ku buryo abantu ari kubwira baba bari kumwumva neza cyane, ibyo ari kuvuga bibagirira akamaro, iyo nama iba ari nziza cyane kuko aba ari umupolisi ukomeye cyane.

Abapolisi bagirira igihugu cyacu akamaro kanini cyane, kuko badufasha kurinda umutekano w'igihugu cyacu, noneho igihugu cyacu kikaba gifite amahoro, ku buryo buri muturage wese aba yumva atuje.

Iyo abanyamaguru bageze ahantu bambukira, ibinyabiziga birahagarara bagatambuka, kuko haba hahagaze abaporisi bashinzwe kubarebera nimba amategeko y'umuhanda ari kubahirizwa ijana ku ijana.

Abasirikare iyo bambaye imyenda isa, iyo bakunze kwita iniforume zabo, baba basa neza cyane, baba bari kubona ari byiza cyane, kandi abasirikare badufitiye akamaro kanini cyane, kuko baturindira umutekano w'igihugu cyacu.

Iyo uri muri kaburimbo uba ugomba kwigengesera, kuko ushobora kuba uri kuri trefone noneho imodoka igaturuka hirya ikaba irakugonze. Kandi n'iyo uri kureba aho kwambukira nta bwoba, uba ugomba kuba ariho wambukira.

Abapolisi bafitiye igihugu cyacu akamaro, kuko barinda umutekano w'abaturage babo, kandi baba bari gukotorora imodoka zitwara abagenzi, kugira ngo barebe niba imodoka itagirira nabi abagenzi batwaye.

Ahantu bakoreye inama cyangwa ibiganiro bigiye bitandukanye ,haba hasa neza cyane . Cyane cyane iyo hari abashinzwe umutekano ,baba bizeye umutekano ijana ku ijana ,kuko haba hari abapolisi bashinzwe umutekano . Nta muntu waza ahateze akavuyo uko yiboneye.

Kizimyamwoto ifitiye abaturage akamaro gakomeye cyane, kubera ko iyo ahantu hari gushya kirazimyamwoto ihita iza ikahazimya, kandi ikarinda abaturage kuba bahira aho hantu hafashwe n'inkongi y'umuriro.

Abapolisi n'abasirikare baturindira umutekano, bagatuma igihugu cyacu gihorana umutekano n'amahoro, ku buryo abaturage babakunda kubera ukuntu baturindira umutekano.

Abaporisi iyo bari kugira inama abaturage, cyangwa se baremesheje inama, baba bahagaze imbere yabo. Abaturage bicaye neza cyane, bateze amatwi bitonze, kugira ngo bungurane ibitekerezo, bumve n'inama z'umuyobozi ari kubagira.

Iyo abantu bari mu nama baba bicaye ku ntebe bateze amatwi umuyobozi wabo ubayoboye, kugira ngo bumve ibyo ari kubabwira. Nyuma yaho baba bemerewe gutanga ibitekerezo, kubera ko baba bari kungurana ibitekerezo byiza kandi byubaka.

Abaturage iyo bari mu nama, baba bicaye bateze amatwi ibyo umuntu uyoboye inama ari kubabwira, barangiza bakungurana ibitekerezo, kubera ko bibafasha kugira ubwumvikane, ndetse bakagira n'inyungu yabo bwite mu mibereho yabo ya buri munsi.

Inama ni nziza cyane, kuko abantu iyo bari mu nama baba bicaye batuje bateze amatwi ibyo umuntu umuyobozi wabo ari kubabwira, nyuma yaho baba bemerewe gutanga ibibazo n'ibitekerezo, kugira ngo bakomeze kubakira hamwe basengenyere umugozi umwe.

Abasirikare bambara iniforume nziza cyane, iyo bari mu nama baba bicaye mu ntebe nziza cyane, imbere yabo hesitaye mikoro noneho bafite n'amazi mu ducupa yo kunwa.

Icyumba cy'inama kiba kirimo abantu benshi ,kandi iyo bari gukora inama bose baba batuje ,hari umuntu umwe imbere yabo ni we uba uri gusobanura uko inama iri bugende, buri muntu wese uri mu nama aba afite agacupa k'amazi yo kunywa.

Abantu bayoboye inama baba bicaye. Imbere yabo haba hari mikorofone iri gutuma abantu bumva ibyo bari kuvuga. Baba bafite amazi mu ducupa ku buryo iyo uri kumva unaniwe mu muhogo, unywa ku mazi bigatuma usubirana ubuyanja.

Umukaraza iyo azi kuvuza ingoma, abantu baramukunda cyane kubera ko iyo abantu bari kubyina bafite umukaraza uzi kuvuza ingoma, biraborohera abantu bakabyina imbyino zabo nziza kandi bigashimisha abantu.

Ibisabo n'ibyansi babibika ahantu hafite umutekano, kugira ngo hatagira umuntu uza akaba yabyangiriza, kandi ahantu babika ibyansi haba hameze neza cyane.

Inzu za kera zaba zubatse neza cyane, zishimishije kuko zabaga zakajwe ibyatsi, abantu bubakaga izo nzu babaga ari abahanga, kuko babaga bazi kubaka neza cyane.

Abantu babyina imbyino za kinyarwanda, baba bambaye imishanana, biteze utuntu ku mutwe kandi iyo bari kubyina bari guseka, biba ari byiza cyane, biba bishimishije, biryoheye ijisho. Umuntu uri kubareba aba yumva bakomeza bakabyina.

Abaririmbyi iyo bari kuririmba baba bambaye iniforume nziza, kandi baba bagaragara neza cyane. Kandi amajwi yabo aba yaryoheye amatwi, ku buryo uba uri kumva wahora uri kubareba ukuntu bari kuririmba aba ari ibintu bishimishije cyane.

Intore ziba zambaye neza cyane, ziba zambaye imishanana myiza cyane kandi iyo ziri kubyina, ziba ziri guseka kugira ngo abantu bari kuzireba barusheho kuryoherwa, gusa biba bishimishije cyane.

Icyansi bakibuganiyirizamo amata tukayanywa ameze neza cyane, amata babuganirije mu cyansi aba yujuje ubuziranenge, kuko iyo turi kuyanywa tuba twumva yari aryoshye cyane.

Intore ziba zambaye neza cyane kubera ko ziba zambaye imishanana, zigaragara neza, ziba ziteze utuntu mu mutwe dusa nk'umweru, kandi ziba ziri guseka ku buryo umuntu wese uzibonye, aba ari kubona ko zifite ibyishimo.

Ababyinnyi ba kinyarwanda baba bambaye imishanana isa ku buryo iyo bari kubyina baba bafite umuntu uri kubavugiriza ingoma, ndetse hari n'undi uri kubaririmbira ku buryo iyo bari kubyina baba bari kujyana, uba uri kubona ari ibintu bimeze neza cyane

Ibiseke ababyeyi barabikunda cyane, iyo bagiye gutaha ubukwe bakunda kugenda babyikoreye, gusa uba ubona bibabereye cyane ku babyeyi, iyo babyikoreye ari benshi bari kugendera ahantu hamwe.

Abantu borora inzuki baba bitwa abavumvu. Abavumvu iyo bagiye guhakura ubuki baba bambaye bikwije, kandi ubuki ni bwiza cyane ku buzima bwacu, kuko burinda indwara kandi butuma n'umuntu wariye ubuki agira ubuzima bwiza.

Abanyarwanda ba kera babaga ari abahanga, niyo mpamvu usanga umunyarwanda wese aba agomba kwimakaza umuco wacu w'igihugu cy'u Rwanda ukajya imbere. Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umuco wacu n'u kubyina. Intore niyo mpamvu wasanga ahantu hamwe na hamwe barabashushanyije barabasize ahantu kugira ngo bakomeze kwimakaza umuco nyarwanda.

Umuvure ni igikoresho cyo mu rugo, iyo abantu bagiye gukama inzoga nimwo bakamira, kandi hari n'ubwo babikamo umusururu, kandi hari nubwo babikamo amazi, ku bantu badafite ibintu byinshi byo kuvomeramo.

Aborozi b'ubuki baba ari abahanga cyane, bakora umutiba barangiza bakawushyira mu giti ku buryo biba ari ibintu bigaragaramo ubuhanga bukomeye. Kandi ubuki ni bwiza cyane buvura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi burinda indwara, umuntu wariye ubuki aba afite ubuzima bwiza.

Uduseke tuba dufite amabarake atandukanye, ku buryo umuntu iyo ari kureba agaseke aba ari kubona kagaragara neza cyane, kandi ababyeyi baradukunda kubera ko bakunda kutujyana mu bukwe.

Umuduri iyo uzi kuwucuranga ugira inanga nziza cyane ziryoheye amatwi, ku buryo umuntu uri gucuranga umuduri, iyo uri kumwumva wumva wagumya kumwiyumvira, kugira ngo uryoherwe.

Inyambo n'ubwoko bw'inka bushimisha abantu benshi, kubera ukuntu inyambo ziba zimeze ziba zifite amahembe maremare, ameze ukuntu ku buryo iyo uri kuzireba wumva ari ibintu bishimishije.

Inka z'inyambo ziba zigaragara neza cyane kubera ko ziba zifite amahembe ateye neza cyane, ku buryo umuntu uri kuzireba aba ari kumva yakomeza kuzireba, kandi bakunda kuzijyana mu bitaramo.

Isogi n'imboga nziza cyane, cyane cyane abantu bakuru nibo bazikunda, isogi iyo bazitekanye n'ibirayi ukavangamo n'ibishimbo bibag biryoshye kandi birinda indwara zituma umuntu iyo yaziriye areba neza.

Abakobwa babyina imbyino za kinyarwanda, baba bazi kubyina cyane. Kandi iyo bari kubyina, biba bigaragara neza cyane. Abantu barabikunda cyane cyane iyo bikoreye uduseke, bakabyina batwikoreye uba ubona ari ibintu bisa neza cyane.

Abakobwa babyina imbyino gakondo baba bazi kubyina neza cyane, kubera ko babyina bitandiye uduseke ku mitwe yabo, noneho baba bambaye n'imyambaro myiza cyane, igatuma bagaragara neza.

Inzu za kera zabaga zubatse mu buryo bwiza cyane, kubera ko zabaga zubakanywe ubuhanga. Zabaga zisakajwe ibyatsi kandi zubatswe nk'ibizeru, ku buryo iyo wazirebaga zabaga ziri kugaragara neza cyane.

Kera abamama babaga bazi gusya ifu, bayisyeraga ku rusyo, babaga bafite n'ingasire, agafu babaga bakoresheje bari gusya, bagasyereye ku rusyo kabaga kakanoze cyane, kandi kameze neza cyane.

Abanyarwandakazi ba kera babaga bagiye kubuganiza amata, mu byatsi ndetse bazi gucundira amata mubisabo, ku buryo iyo babaga bari gucunda amata byabaga ari ibintu bishimishije cyane, kandi amata babaga bacundiye mu cyansi yabaga aryoshye cyane.

Ababyinnyi b'imbyino za kinyarwanda baba bambaye amayugi mu maguru, iyo bari kuyakubita bari kubyina, uba uri kumva biryoheye amatwi y'abantu bari kubareba.

Uduseke tuba ari twiza cyane, abaturage b'abagore bakunda kwikorera uduseke ku mitwe yabo, bakatwikorera batwirengeye ku buryo baba badafasheho, ukabona ni byiza cyane.

Ibiryo bitetse mu nkono biraryoha cyane, ariko iyo inkono uyitetseho itari yamenyera ikirishyashya bitinda gushya ku buryo wategereza.

Ababyinnyi babyina imbyino ya kinyarwanda, baba bambaye imishanana myiza cyane ,baba bambaye n'ibintu byo mu mutwe, kandi baba bazi gusimbuka, ku buryo iyo uri kubareba wumva waryohewe uba urikumva wakomeza kubirebera.

Ababumbyi baba ari abahanga cyane, kubera ko usanga bazi kubumba udukono, udukono iyo wadutetsemo ibiryo, urugero ugatekamo nk'agasombe biba biryoshye cyane, ku buryo abantu benshi babikunda.

Abantu babyina imbyino za kinyarwanda baba bambaye udushanana twiza cyane, baba bafite ibisabo bacundiramo amata ndetse baba bafite n'ibyansi ku buryo iyo uri kubareba, ubona bagaragara neza cyane.

Umuvure bawukoreramo urwagwa, bagushyiramo n'imisururu iyo bari kwenga, urwagwa rwavuye mu muvure ruba rumeze neza cyane ,ku buryo umuntu uri kurunywa yumva ameze neza cyane aryohewe.

Imboga ni nziza cyane zituma abantu bagira ubuzima bwiza kandi zituma umuntu agira amaso areba neza zongera n'ubuzima bwiza ku bana.

Abasore iyo bazi kubyina imbyino za kinyarwanda biba bisa neza cyane, kuko ubona bazi gusimbuka ku buryo bubereye ijisho, kandi iyo bafite biriya bisatsi byabo baba bambaye mu mutwe uba uri kubona ibintu bimeze neza cyane biryoheye ijisho, ku buryo umuntu aba ari kumva yakomeza kubirebera.

Isuka idufiteye akamaro gakomeye cyane, kubera ko isuka niyo duhingisha imirima yacu, kugira ngo tubone uko duhinga ibihingwa byacu byere neza, isuka ni nziza cyane.

Abakobwa beza cyane, bambaye imyambaro y’ababyinnyi, babyina imbyino gakondo. Bakaba bafite n’ibisabo, bazi kubicunda neza. Bafite utuntu mu mutwe, wagira ngo ni udushumi tubaziritse mu mutwe. Bambaye n’ibinigi.

Inkono y'itabi ni agakoresho ka kera abakecuru cyangwa abasaza bakunda gukoresha bari kunywa itabi cyangwa se bari kuritekera. Iyo wabaga uri umukecuru wafataga ibitabi ugashyira mu nkono y'itabi ubundi warangiza ugaterekera ugatangira ukanywa iryo tabi.

Iyo urwagwa barangije kurukama, bararutara kugira ngo rushye neza cyane, iyo umuntu aje arasogongera, bakaba bashyizemo umuheha bari kumva ko rwahiye neza cyane.

Abakecuru baba bafite umusatsi w'umweru ugaragara neza cyane abenshi bakunze kwita imvi. Noneho bakunda kwambara amasaro mu ijosi bakunda kwita ibiniigi.

Uduseke n'uducuma tuba dusa neza cyane noneho cyane cyane agaseke iyo gatwawemo ibintu mu bukwe biba bisa neza cyane. Kandi agacuma iyo barikukanyweramo inzoga abapapa barabikunda cyane.

Ibijumba n'ibishyimbo bivanze biraryoha, cyane cyane bikaba akarusho iyo havanzemo n'igihaza, wamara kurya ibijumba ugahita urenzaho n'igitoki. Kiryoha iyo wagitetse kidatonoye.

Ababyinnyi bazi kubyina imbyino za kinyarwanda, baba bambaye neza cyane, baba bambaye mu mitwe ibintu bimeze nk'imisatsi ku buryo iyo bari kubyina bakabizunguza, bibabereye ijisho rya buri muntu wese uri kubareba.

Abantu babyina imbyino za kinyarwanda baba basa neza cyane, cyane cyane iyo bari kuvuza ziriya ngoma zabo, uba uri kumva ibintu ari byiza cyane biba biryoheye amaso, ku buryo buri muntu wese yumva yakomeza kubareba iyo bari kubyina.

Ibikoresho by'amashanyarazi mu bantu baba bagomba kubyirinda kuko iyo ubikubaganyije gato ushobora kuhasiga ubuzima cyangwa ugateza ikibazo kigiye bitandukanye, ukaba wabivanamo n'urupfu.

Inteributeri igira akamaro kanini cyane mu mashanyarazi, kuko inteributeri ni yo tuzimirizaho, cyangwa tukakirizaho amatara iyo mu nzuhawe hariho interibeributeri ifite utuntu dutatu, bituma wakiriza ku ruhande rumwe, washaka ukajya kuzimiriza ku rundi ruhande.

Urusengero ruba rwiza cyane, iyo umuntu afite ibibazo akajya kurusengeramo, akumva uturirimbo mu rusengero bari kuririmbiramo, akumva ibyo abapasiteri bari kwigisha avamo yafashijwe, ku buryo yumva aruhutse mu mutima.

Ahantu bagiye gutangira kubaka inzu, haba hari ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo umucanga wa giciye, hamwe n’amabuye y’amakoro. Noneho imodoka zizana ibyo bikoresho ziba ari nini cyane, ku buryo aho zimennye biba bitubutse ku bwinshi.

Urusengero ni rwiza cyane kubera ko haga harimo amakorari agiye atandukanye azi kuririmba kandi iyo bagiye mu rusengero uba uri kumva ijambo ry'Imana gusa. Bavanamo ibyishimo ku uburyo umuntu wagiye mu rusengero aba afite umutima mwiza kandi ukeye.

Urusengero ni rwiza cyane turarukunda, rutuma abakirisitu begerana n'Imana, bagasenga, bamwe bakaririmba, abandi bakaramya Imana. Imana ikabasubiza ibyifuzo baba bayisabye.

Icyumba kibamo kompiyuta nyinshi cyane abantu bagihuriramo, bakungurana ibitekerezo baba bafite amacupa n'amazi yo kunywa, kugira ngo batananirwa mu mutwe baba bambaye n'agapfukamunwa iyo ari igihe k'ibyorezo.

U Rwanda rwacu rwateye imbere kuberako rufite ibikorwa remezo byinshi, bituma igihugu cyacu kigaragara neza cyane. Iyo uri kureba inyubako igihugu cyacu kimaze kugira, ukaba uri kubona ari ibintu bishimishije.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda kimaze gutera imbere, kubera ko usanga buri gace kose kagize igihugu cyacu cy'u Rwanda karimo kaburimbo zimeze neza cyane, kandi kiba gifite isuku.

Akarere ka musanze gafite ibiro byiza cyane, ku buryo buri muyobozi wese aba afite ofisi ye akoreramo. Ku buryo iyo umukeneye birakorohera cyane kumenya aho bakorera kandi bakakwakirana urugwiro.

U Rwanda ni rwiza cyane, rufasha abaturage, rukabubakira amazu meza agezweho cyane, abaturage barwo bakabaho neza bishimye, bakaba mu mazu agezweho cyane, meza kandi meza.

Pasiteri iyo agiye kubwiriza ijambo ry'Imana aba ari imbere y'abakirisitu, ndetse imbere ye haba hari akantu ko kurambikamo bibiliya, kandi haba hateguye neza cyane kubera ko ahantu ahagaze haba hari imisambi.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda gikunda abaturage bacyo, kubera ko usanga abaturage batishoboye cyarabubakiye inzu kandi nziza cyane zifite amashanyarazi, amazi, ndetse ziba zifite na kaburimbo ku buryo ziba ziteye ibiti byiza cyane.

Urusengero rugira akamaro gakomeye cyane, kubera ko umuntu iyo akeneye kumva abaririmbyi ajya mu rusengero, n'iyo akeneye kumva ijambo ry'Iymana aja mu rusengero agasangayo pasiteri akamubwiriza ijambo ry'Imana, akavayo yafashijwe.

Abakatorike bakunda umubyeyi bikira mariya, akenshi usanga ahantu henshi habakatorike, haba hari ishusho ya bikira mariya, kuko bakunda ibintu n'ibitangaza byose yagiye arakora.

kiriziya iba ari nziza cyane kubera ukuntu iba yubatse, biba bishimishije kandi iba ari nini cyane, imbere ya kiriziya haba hari ishusho ya Bikiramariya. Kiriziya iba ifite amadirishya ashimishije n'imiryango, kubera ukuntu iba byubatse bigaragara neza cyane.

Ku kiliziya haba hagaragara neza cyane, cyane cyane iyo uri kureba ishusho ya bikiramariya, wumva unezerewe mu mutima kuko umubyeyi bikiramariya yadukoreye byinshi, natwe abana b'abantu turishima.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda ni cyiza cyane, kimaze gutera imbere kuko usanga buri hantu hose impande zose z'igihugu zifite imiyoboro y'amashanyarazi ku buryo buri rugo bwose rw'umuturage w'umunyarwanda ruba rufite umuriro. Ni ibintu byiza cyane igihugu cyacu kimaze kugeraho.

Igihugu cyacu cy'U rwanda gikunda abaturage bacyo, kubera ko usanga cyarabubakiye ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, cyane cyane kiba cyarabubakiye ibiraro, byubatse mu buryo bushimishije, kandi bwiza ku buryo iyo uri kugendera ku kiraro, uba umeze neza cyane utekanye ku buryo utagwa.

Insengero zigezweho ni nziza cyane zituma abantu birinda urusaku kandi zigateza imbere n'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'akarere muri rusange.

Urusengero rwujuje ubuziranenge, rugomba kuba rufite aho gukarabira, rufite na jalide kandi ari runini cyane ku buryo abantu iyo ari benshi bakwiramo.

U Rwanda rwacu rumaze gutera imbere, ruba rufite inzu zigaragara neza cyane, ku buryo iyo uri kuzireba wumvaga ibintu ari byiza cyane, kandi usanga zifite jaride zimeze neza cyane, abantu iyo bashaka kuhifotoreza, bakahifotoreza amafoto aba aryoheye ijisho.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda gikunda abaturage ba cyo, kubera ko umuturage utishoboye igihugu cyacu cy'u Rwanda kimwubakira inzu zo kubamo, kandi nziza cyane, zifite amazi, umuriro, ndetse zikaba zifite n'uturima tw'igikoni.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda cyamaze gutera imbere, kuko usanga hari ibipangu byubatse neza cyane, byubakishije n'amatafari ya Ruriba. Kandi aba ari kugaragara neza cyane. Iyo icyo gipangu giteyemo ibiti biba bisa neza cyane.

Abayobozi iyo bakoresheje inama, baba bicaye imbere y'abaturage abaturage ,na bo bicaye imbere bakora iki? Bateze amatwi ,bari kumva ibyo abayobozi bari kubabwira.

Abaturage iyo bari mu nama baba bicaye bitonze, bari kumva ibyo umuyobozi wabo ari ukubwira, kandi inama ni nziza cyane kuko iba irimo abantu bagiye batandukanye bari kungurana ibitekerezo, bari kureba ikintu cyatuma batera imbere.

Umuyobozi iyo ayoboye inama, aba ari imbere y'abo ayoboye, n'abo ayoboye baba bicaye hamwe batuje bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo ari kubabwira, kubera ko inama ni nziza cyane, ituma abantu bungurana ibitekerezo.

Ahantu hari kubera inama haba hari abayobozi bagiye batandukanye, abayobozi baba bicaye imbere mu myanya y'icyubahiro, kuko ni bo baba aribo bategerejwe cyane cyane n'abaturage.

Abayobozi iyo bayoboye inama baba bicaye imbere yabo bari kugezaho inama. Kandi ikindi abo bari kumva inama bagomba kuba bateze amatwi bari kumva ibyo abayobozi babo bari kubabwira.

Umuyobozi iyo ayoboye inama abaturage bakaba bicaye bari kumva ibintu aribwira kugira ngo bazabikurikize, ntabwo wakurikiza ibintu utarabiteze amatwi, niyo mpamvu abaturage baba bicaye bari kumva inama z'umuyobozi, kuko ziba zibafitiye akamaro.

Ibimodoka bitwara ibicuruzwa bikunda guhurira ahantu hamwe bikaba bihaparitse, abashoferi babitwaye bakaruhuka kuko baba bagiye gukora urugendo rurerure bajyanye ibicuruzwa ahandi hantu, kandi baba baragerayo bananiwe.

Abanyonzi iyo bategereje abagenzi batwara, baba bari ahantu hamwe ku buryo iyo uhageze ubona baje bari kugusanganira bashaka kugutwara, kandi abanyonzi babaga bari gutwarira amafaranga make cyane ugereranyije n'abamotari bakoreraga ku buryo abantu benshi bakunda kwitegera amagare.

Abantu batwara ikinyabiziga cy'amagare, iyo bategereje abagenzi baba bicaye ahantu hamwe, bicaye ku magare yabo, ku buryo iyo babonye abagenzi bahita batwara, baba bafite n'icyapa cyanditseho gerayo amahoro.

Imodoka zitwara abagenzi ziba ari nziza kandi ziba zifite isuku. Ku buryo umugenzi ugiye mu gace kamwe ava mu kandi, atega imodoka, zikamugezayo amahoro . Cyane cyane harimo n'amakampani menshi, urugero harimo n'amakampani yitwa jari yatwaraga abagenzi.

Imodoka zitwara imbuto zigiye zitandukanye ziri kuyijyana mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, zigira akamaro gakomeye cyane kuko zifasha abantu gukwirakwiza imbuto noneho abantu bakabona imbuto ku buryo buboroheye cyane.

Imodoka zitwara abagenzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ziba zanditseho viziti Rwanda cyangwa zikaba zanditseho Kigali siti tuwa, izo modoka ziba ari nziza cyane kubera ko iyo ushaka kugenda uhagaze ntabwo ugenda uhagaze.

Umujyi wa Musanze umaze gutera imbere cyane kuko usanga amasoko yaho amwe na amwe aba arimo abaturage batandukanye bari gushaka imibereho y'uburyo babaho. Haba harimo n'imodoka zitegereje abagenzi zibajyana mu gace kamwe zibavana mu kandi.

Imodoka zitwara abagenzi ziba zigomba kugenda zitonze kugira ngo abo zitwaye batagira ikibazo mu modoka, kuko nibyo Leta ya repubulika y'u rwanda ibashishikariza.

Ritico ni imodoka nziza cyane yagenewe gutwara abagenzi, kandi ritica icyiza cyayo itwara abagenzi benshi, ziba ziforomye neza cyane, ku buryo umuntu uri kugendera muri ritico aba yumva atekanye, kandi birihuta ku buryo zoroshya urugendo aho umuntu agiye akagerayo vuba byihuse cyane.

Gare ibamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ku buryo umugenzi ugiye ahantu hamwe ajya ahandi, afata ikinyabiziga ashaka kiramugezayo kandi yishimiye.

Muri gare habamo imodoka zigiye zitandukanye zitwara abagenzi ,n'abagenzi baba barimo ari benshi, bategereje uko babona imodoka zibatwara aho bashaka kujya.

Imodoka zitwara abagenzi iyo ziri mu muhanda ziba zigaragara neza cyane. Cyane cyane imodoka za volukano ni nziza cyane, kandi ni nini. Zitwara abagenzi benshi.

Muri gare haba, harimo abagenzi benshi, batonze umurongo bategereje imodoka ngo binjiremo, ariko usanga hari n'utuzu ku ruhande, ku buryo n'iyo izuba ribaye ryinshi, cyangwa imvura ikagwa bahita bajya kugamamo.

Gare za kijyambere ziba ari nziza cyane, kubera ko umugenzi iyo aje muri gare agasanga imodoka zirikujya aho agiye zidahari ahita yicara mutuzu bubatse, akaba ategereje imodoka iramutwara kandi aba ari kuruhuka yugamyemo izuba mu gihe cy'imvura aba yugamyemo imvura.

Imodoka zitwara abantu, zigira akamaro gakomeye, cyane kubera ko iyo umuntu agiye mu gace kamwe ajya mu kandi arazitega, kandi zitwara abantu benshi cyane ku buryo byoroha kugera aho ugiye.

Imodoka zagenewe gutwara imbuto zigiye zitandukanye zizivana mu masoko amwe, zizijyana mu yandi masoko. Ziba zisakaye ku buryo imbuto zitwaye zitakwangirika, cyangwa ngo zikubitwe n'izuba zibe zapfa.

Imodoka zatwara ibitoki iyo byeze, ziba ari imodoka ndende, nini, ku buryo zipakira ibitoki byinshi cyane, umuntu ucuruza amayinite aba ari munsi y'umutaka wa MTN, yambaye akajire kagaragaza ko ari umukozi wabo.

Abamotari iyo bategereje abagenzi baba bari ahantu hamwe, ku buryo iyo umugenzi akeneye gutega moto abasanga aho bari, bagahita bamutwara byoroshye, baba ari abana beza.

Ikinyabiziga cya rifani kigira akamaro gakomeye cyane, cyane cyane mu gutwara ibikoresho bari kwimura nk'abantu cyangwa umuntu ugiye kurangura nk'ibirayi, nk'ibishyimbo, akaba yayitega ikamutwarira ibyo bintu yaranguye, ikabimugereza aho abijyanye.

Abanyonzi iyo batwaye abagenzi baba bari gukoresha imbaraga nyinshi, ariko bakaba bafite ishyaka kubera ko baba bizeye ko bagiye gukorera amafaranga barishyurwa n'abo batwaye.

Kaburimbo idufitiye akamaro kanini cyane kuko bituma abantu bose bagenda bameze neza cyane, ibinyabiziga biba bitekanye na byondo biri kubageraho, niyo ari mu gihe cy'izuba ntaho bahurira n'ivumbi.

Umuhanda wa kaburimbo ni mwiza cyane, iyo imvura yaguye nta byondo bireka mu muhanda, kandi n'iyo imodoka iri kugenda iri kuwugendamo, bifasha shoferi kwihuta akagera iyo agiye hakiri kare.

Imodoka zitwara abagenzi ziba ari nini cyane, ku buryo zitwara abagenzi benshi, kandi ziba ari nziza ku buryo umugenzi iyo yicaye mu ntebe aba ari kumva atekanye, kandi ziba zifite ahantu bari gutwarira imizigo ya buri mugenzi wese uri muri iyo modoka.

Igare n'ikinyabiziga gifitiye abaturage akamaro, kubera ko iyo ukeneye gutwara ibintu ukabivana mu gace kamwe ubijyana mu kandi, iyo ufite igare irabitwara rikabigezayo kandi ritwara ibintu byinshi cyane.

Pisine za kijyambere ziba ari nziza cyane , kuko ziba zifite n'udutebe two kwicaramo iyo murangije koga, cyangwa abantu bari kureba uko muri koga, baba bicayemo.

Abakinnyi ba basikete baba bafite imbaraga，cyane cyane， baba bazi gusimbuka， gusa basikete， iraryoha， iba iryoheye ijisho ku bantu bari kuyireba cyane cyane，kuko biba bigaragara neza cyane.

Abakinnyi ba basiketi baba bambaye imyenda ya siporo igiye itandukanye, kugira ngo umuntu uri kubasifurira amenye ukoze ikosa, bamenye ikipe itsinze. Kandi abakinnyi ba siporo baba bafite ubuzima bwiza kubera bahora bakora siporo.

Umukino wo koga ni umukino mwiza cyane, ushimishije uba ubereye ijisho, umuntu uri gukina umukino wo koga, aba yambaye imyenda yagenewe kujya mu mazi kandi aba yambaye n'ibintu mu maso, bimurinda amazi ko yajya mu maso.

Amakurusi ndayakunda cyane, iyo bagiye mu myitozo baba bambaye imyenda ya siporo isa, kugira ngo ubabonye amenyeko aba ari amakurusi, baba bambaye n'ingofero zo kubarinda kugira ngo nibagwa hasi, umutwe ntube wahita wangirika.

Abakinnyi bakina umukino wa futuboro baba bafite umugaridiye uri kubarindira izamu ryabo, kugira ngo ritajyamo ibitego. Umugaridiye aba yambaye imyenda ya siporo itandukanye n'iy'undi mugaridiye bari gukina.

Amakurusi ndayakunda cyane, umukino w'amagare uba ubereye ijisho iyo bari mu marushanwa baba bambaye imyenda ya siporo iri kubatandukanya, kandi baba bari ku muvuduko udasanzwe kugira ngo bose bari gushaka uwaba uwa mbere.

Abakinnyi bakina tenisi baba ari abakinnyi babiri bose bambaye imyenda ya siporo, kugira ngo babone uko bakina neza bisanzuye, bahanganye. Kugirango abari kubareba babone uko babatandukanya.

Abakinnyi bakina umukino wo kwiruka baba bafite ubuzima bwiza cyane, kubera ko bakunda gukora siporo, kandi ubuzima bwacu bwa buri munsi bukenera siporo. Iyo bari muri siporo baba bambaye imyenda ya siporo.

Ikibuga cya voreboro kiba kimeze neza cyane, ku buryo kiba giciyeho imirongo y'aho ikibuga kigarukiye, kandi biba byiza cyane iyo fire zikikijwe n'amabara, kugira ngo umusifuzi uri gusifura umukino, amenye uko ibintu biri kugenda neza cyane,

Abakinnyi ba volebolo baba bafite ubuzima bwiza kuberako bakora siporo buri munsi, kandi baba bambaye imyenda ya siporo igiye itandukanye kugira ngo umuntu uri kubasifurira amenye ikipe itsinze igitego, amenye n'ikipe iri gukora amakosa.

Abakinnyi bari mu ikipe imwe baba bambaye imyenda ya siporo, kandi bambaye imyenda y'ikipe ku buryo iyo bagiye gukina, uhita ubatandukanya n'abandi bakinnyi. Kandi abakinnyi baba bafite ubuzima bwiza, kubera ko bakunda gukora siporo, kandi ubuzima bwacu bwa buri munsi bukenera siporo.

Abakinnyi bakina umukino w'amagare baba bafite ubuzima bwiza, kandi umukinnyi ukina umukino w'amagare iyo agiye guhembwa yabaye uwa mbere, aba afite ibyishimo byinshi cyane.

Tenisi ni nziza cyane, abantu bakina tenisi usanga bafite imbaraga mu maboko kuko baba bari gukina bari gukubita aga tenesi, kandi abantu bakina tenisi baba bambaye imyenda ya siporo.

Siporo ni nziza ku buzima bwacu bwa buri munsi, abantu bagiye gukina siporo baba bambaye imyenda siporo, ndetse baba bafite n'amabaro, ku buryo iyo bagiye gukina amabaro yabo aba arimo umwuka uhagije, kugira ngo babone uko bafata umupira bawukine.

Ikibuga bakiniramo teninisi kiba kirimo umucanga wa giciya, ndetse umuntu ukinira mu kibuga cya teninisi aba yambaye imyenda ya siporo, aba afite n'inkoni bakinisha kumwe nagatenesi ari gukina yambaye n'akagofero.

Abakinnyi ba basikete iyo bari muri siporo, baba bambaye imyenda ya siporo, kandi baba bambaye, bamwe muri bo udukuteri bari kumva imiziki, baba ari barebare cyane ku buryo kugera kuri paniye bari guterekamo baro biborohera cyane.

Abakinnyi ba vole bolo baba bagaragara neza cyane . Cyane cyane iyo bambaye imyenda ya siporo, kugira ngo umenye buri mukinnyi ikipe ari gukinira . Kandi baba bafite ubuzima bwiza ,kubera ko bahora barakora siporo buri munsi.

Ikipe iyo yatsinze abafana bayo baba bishimye ku buryo iyo umukino urangiye, abafana bajya gusuhuza abakinnyi baba bishimiye cyane, aba ari ibintu bishimishije kandi biba bibereye ijisho.

Umukinnyi ukina umukino wa tenisi aba yambaye imyenda ya siporo afite n'inkweto zimukwiye neza cyane, kandi abakinnyi bakinaga tenisi baba bafite ubuzima bwiza cyane, kubera ko bakunda gukora siporo.

Abakinnyi bakina umukino w'amaboko wa vore baba bambaye imyenda ya siporo, ndetse baba bambaye na jezi zibatandukanya, ku buryo umenya ikipe waje gufana, bitewe n'uruhande uherereyemo.

Umukino w'amagare ukundwa na buri cyiciro cyose cy'abantu ababyeyi ,abana, ndetse n'abagabo usanga bahagaze ku muhanda bari kureba ukuntu amagare ari gutambuka.

Umukino w'amasiganwa w'imodoka uba ushimishije cyane, kubera ko ubona ari ibintu byiza cyane, umukino w'amamodoka ukunda kubera ku muhanda w'ibitaka, kubera ko ariwo muhanda uba utari gukoreshwa n'abantu benshi.

Abakinnyi ba vole baba bambaye imyenda ibatandukanya, kandi abakinnyi ba vole baba bafite ubuzima bwiza. Iyo bari gukina volebolo baba bazi gusimbuka ku buryo bufatika.

Abakinnyi bakina umukino wa voreboro baba bambaye imyenda itandukanye, kugira ngo abantu bari kubareba bamenye gutandukanya amakipe ya bo, baba bambaye imyenda ya siporo yanditseho na nimero za bo, ziri kuranga buri mukinnyi.

Abantu bakina tenisi bagomba kuba bafite inkoni bakinisha tenisi, kandi byibuze bakaba bafite n'amatenesi abiri, kugira ngo babone uko mu gihe tenesi imwe yarenze ikibuga, bagafata indi akaba ariyo bakinisha.

Abakinnyi bakina umukino w'amaguru baba bambaye imyenda ibatandukanya ya siporo, kugira ngo buri muntu wese amenye ikipe yaje gufana uko yambaye, kandi bifasha n'umusifuzi kumenya buri ikipe ikoze ikosa cyangwa ikipe itsinze igitego.

Amagare ni meza cyane, ndayakunda aranshimisha, iyo abantu bari mu marushanwa y'amagare, baba bambaye imyenda ya siporo igiye itandukanye, kugira ngo abantu bashobore kubatandukanya.

Siporo ni nziza cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, umuntu uri muri siporo aba yambaye imyenda ya siporo, ndetse aba yambaye n'inkweto zimukwiye neza, ku buryo bitamubangamira mu mugihe ari muri siporo.

Abakinnyi ba siporo baba bambaye imyenda ya siporo kugira ngo ibafashe gukora siporo neza, kandi umukinnyi ukina siporo zigiye zitandukanye aba afite ubuzima bwiza, kubera ko aba akunda gukora siporo.

Abakinnyi bakina umupira w'amaguru, baba bambaye imyenda ya siporo kandi abakinnyi bakina umupira w'amaguru, baba bafite ubuzima bwiza cyane kubera ko baba bakunda gukora siporo.

Tenisi ni nziza cyane, kubera ko abantu bakina tenisi baba bafite ubuzima bwiza, kubera ko bakunda gukora siporo, kandi iyo bari gukina tenisi baba bambaye imyenda ya siporo, kuko aba aribyiza cyane.

Abakinnyi bakina umukino wo kwiruka, bambaye imyenda ibatandukanya n'abandi bakinnyi bari gukina na bo, abakinnyi kandi bakunda kwiruka baba bafite ubuzima bwiza kuko bahora bari gukora siporo

Abakinnyi bakina vole baba bambaye neza cyane imyenda isa . Iyo bari mu ikipe imwe ,kandi iyo bari kwifotoza ubona basa neza cyane, kubera ko baba bambaye imyenda isa.

Abakinnyi baba bambaye imyenda ya siporo kugira ngo batandukane n'abandi b'indi kipe bahanganye, kandi abakinnyi iyo batsinze ,baba bagaragara neza cyane . Baba bafite ibyishimo bidasanzwe , bari no guseka.

Abakinnyi ba basiketi baba bambaye, iyo ari amakipe abiri ahanganye baba bambaye imyenda ibatandukanya, ku ruhande rwabo hagomba kuba hari umuntu ushinzwe kubarebera amakosa.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kiba kirimo imirongo ituma bamenya aho garidiye ari, n'aho ikibuga kirangiriye. Ku ruhande rwacyo kigomba kuba gifite aho abantu bicaye baje kureba umupira.

Urugo rwiza ruba rwubatse inyuma y'igipangu bagateraho jaride biba bigaragara neza cyane, kubera ko iyo urwo rugo ruteyeho indabo hagati, usanga hariho ibiti ku buryo kubyifotorezaho biba ari byiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo udufitiye akamaro kanini cyane, kuko utuma imodoka zigenda neza, zitari guteragura ibyondo.